Agakapu gahekwa mu mugongo, gatwara ibikoresho bitandukanye byo ku ishuri, abana bifashisha iyo bageze ku ishuri. Kariho igishushanyo k'imbwa yicaye.

Inyubako ishaje ifunguye hari umuntu uri kwinjiramo hashushanyijeho ibishushanyo byigirwaho n'abiga ubumenyamuntu bizwi nka siyansi.

Ni umuryango w'abana babiri n'ababyeyi, umugabo yambaye ishati y'ubururu, umubyeyi yambaye igitambaro cy'icyatsi kibisi n'umupira w'icyatsi kibisi, ku meza hari amakayi n'igitabo, bari kwigisha abana gusoma no kwandika, bafite na karindandari imanitse mu nzu n'isaha.

Uyu ni umuhanda werekeza ku rwunge rw'amashuri ya burega hari n'ibyapa byerekana umuntu ko agiye kugera kuri icyo kigo.

Ni abana bari ku by'icundo babiri bahagaze hejuru, undi ari hagati na hagati ku gitambaro gitukura gikikijwe n'amabara y'umuhondo hanashushanyijeho ibindi bishushanyo by'abana.

Umubyeyi uri gukinga amadirishya mu cyumba kinini kirimo abana bane bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu bicaye ku mukeka bari kunywa amata.

Abana babiri umuhungu uhagaze aseka n'umukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi kibisi, ahagaze kuri kandagira ukarabe ari gukaraba amazi meza n'isabune muri gahunda yo kwimakaza isuku.

Ni udukinisho tw'amabara agiye atandukanye, dukangura abana cyane nk'abari mu mashuri y'incuke, babereka amabara y'amoko atandukanye: nk'ubururu, umutuku, umuhondo, icyatsi kibisi, ubururu bwerurutse n'umukara, ngo bibakangure ubwonko bwabo.

Ni udushushanyo tw'amabara anyuranye, yaba umuhondo, umutuku, ubururu n'andi, bigaragara ko twifashishwa bakangura ubwonko bw'abana biga amashuri y'incuke, hagaragaramo itara n'imigozi inyuranye, yifashishwa mu gukangura ubwonko bw'abana.

Ibikoresho byiganjemo amakopa, amarate, amakereyo byifashishwa mu kwiga imibare no gushushanya ibinyampande bigiye bitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu burezi haba ikaramu, amakereyo, amarate, amakopa n'udusibisho dusiba ikereyo n'uducongesho duconga kereyo.

Amarati yo mu bwoko butandukanye byaba iripima uburebure, n'ibinyampande bitandukanye nka mpande eshatu, uruziga n'ibindi yifashishwa mu kwiga imibare agakoreshwa n'abanyeshuri.

Ni ibikoresho bitandukanye bikenerwa mu ishuri, ahari aho kubika udukoresho two ku ishuri ,udusanduku, intebe biteguye neza, byigishwa umwana ngo ajye amenya uko ategura neza ibintu bye byose mu buzima bwa buri munsi.

Ameza arambitseho ibikoresho byifashishwa mu ishuri: karikiratirise, amakereleyo, amarate n'amakaramu n'utundi dukoresho twinshi.

Umuryango w'abantu batatu, umubyeyi yicaye ku ntebe abana babiri, umuhungu n'umukobwa nabo bicaye ku ntebe, ari kubaha amafunguro, bari kurya bishimye cyane.

Ibikoresho byifashishwa mu ishuri birimo: ikerereyo, ikaramu, kompa, amakaramu yifashishwa n'abanyeshuri barimo bgai banashushanya n'udusibisho dusiba kereyo.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi, harimo; amarate, amakereyo, amakaramu ,amakayi, n'uducongesho twa kereyo ,bifite amabara atandukanye ,hejuru y'amakayi harambitseho, urubuto rw'icunga.

Ni ishuri ryubakishijwe udutafari tw'impunyu zikingishijwe metalike, risakajwe amabati y'ubururu akomeye, ndetse hanze hari na kandagira ukarabe bakaraba birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ni ikigo cy'amashuri gifite ubusitani bwiza cyane, indabo z'icyatsi kibisi zarabije uturabyo dutukura, hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga, gifite amashuri yiganjemo afite amarangi y'icyatsi kibisi n'umweru.

Ibikoresho byifashishwa n'umunyeshuri cyane cyane mu isomo ry'imibare, harimo kompa irate, amakereyo n'uducongesho twa kareyo n'udususho twa kereyo byifashishwa mu gushushanya ibinyampande bitandukanye, na kare mpandeshatu n'uruziga.

Namashuri meza cyane asize irangi ritukura yumuhondo asakajwe amabati yubururu hari jarde ikikijwe namabuye.

Ikigo cy'amashuri kiri ku muhanda utari kaburimbo, ukikijweho ibiti birebire n'indabo ngufi ziganjemo amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi, hari n'ishuri rya etaje ritaruzura.

Ni ubwiherero aho bufite inzugi zikomeye zifite amarangi y'ubururu n'urugo rukomeye cyane rwubakishije amatafari y'impunyu zikoreshwa n'abanyeshuri.

Umuryango w'abana n'ababyeyi, aho bari kwishimira uko abana babo bakura, umukuru muri bo yakoze garadiwesheni mu mashuri ya Kaminuza.

Aya ni amarembo nk'uko bigaragara ni ikigo cy'amashuri aho bari gutanga ikaze ku rwunge rw'amashuri rwa Nkubi, hagaragara n'ikirere gikeye cyane nk'uko bigaragara iyi geti y'iki kigo irafunze.

Umuhanda w'igitaka, uri ku kigo cyamashuri, hari n'ubusitani bw'indabo zageze hejuru cyane, ni ishuri rinini cyane, ririho amabati y'ubururu n'amarangi y'umuhondo n'amadirishya n'inzugi biriho amarangi y'ubururu.

Ni ikigo cy'amashuri gifite ibiti biteye hagati mu kibuga birebire, haparitse n'igare n'amashuri asakajwe amabati.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga bambaye iniforume za kaki n'amashati y'umweru n'imipira yokwifuka y'umuhondo, na mwarimu ari kwandika ku kibaho, yambaye itaburi y'umweru.

Ni inyubako iri ku kigo cy'amashuri, irimo ibiro by'abayobozi bagiye batandukanye, isakajwe amabati y'ubururu, iriho n'amarangi y'umuhondo, n'urugo rukomeye cyane rw'ibyuma.

Ni icyumba cyagenewe kwigishiriza mu ikoranabuhanga aho umwarimu aporojegita ibintu abanyeshuri na bo bakabikora aho buri munyeshuri aba afite mudasobwa ye ku meza.

Abanyeshuri benshi bambaye imyenda yiganjemo umukara, ubururu n'icyatsi kibisi bicaye hasi abandi barahagaze bari kumva ikiganiro cyateguwe n'umuyobozi w'ikigo aho ari kubabwira uko bagomba kwitwara no kwitwararika.

Abanyeshuri bari mu ishuri bicaye ku ntebe bitonze, bari gukora isuzuma. Bambaye impuzankano y'umweru n'imipira y'imbeho y'icyatsi kibisi, inyuma ni ikibaho bandikaho.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye iniforume ziganjemo imyenda y'umweru hejuru, hasi bambaye imyenda itukura. Bafite ibikoresho byabo byifashishwa biga harimo ibikapu batwaramo amakayi baratashye bavuye ku ishuri.

Ni imodoka iparitse muri parikingi hari n'ikindi kimashini gikora umuhanda hasakajwe amabati.

Ishuri rifunguye ririmo intebe ziganjemo amabara y'icyatsi kibisi, hicayemo abanyeshuri bari kwiga, buri wese ari gusubiramo amasomo.

Abanyeshuri bari mubirori byo kwishimira ko barangije amashuri ya kaminuza, bambaye amakanzu y'ubururu n'ingofero z'ubururu barishimye cyane bari kumwe n'ababyeyi babo.

Ni abanyeshuri bavuye kwiga muri kaminuza bari kumanuka amadarage bava mu ishuri bagiye kuruhuka, umwe mu banyeshuri afite agakapu atwaramo mudasobwa.

Umunyeshuri wiga muri kaminuza ari gusubira mu masomo ye, afite ikayi ari kureba ibyo yanditse, ku meza hari telefone, ikaramu, marikeri yo kwandikisha n'ikarita ye y'umunyeshuri.

Ni ishuri ririmo ikibaho cyanditseho amasomo abanyeshuri bize, n'ameza arambitseho ikayi umunyeshuri yanditsemo ibyo yize, harambitseho na marikeri ku ruhande yandikishijwe ku kibaho.

Ni ibikoresho by'ubugeni harimo ikarita y'Afrika, isekuru, ihembe, intebe, biteretse ku meza ariho igitambaro cy'ubururu.

Ni icyumba kinini kirimo abanyeshuri biga Kaminuza bari mu bushakashatsi, intebe bicayeho n'ameza abari imbere hateretse ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ni abantu bari gusohoka mu kigo bageze ku marembo, ahari ushinzwe umutekano wicaye ku kazu kagenewe abarinda umutekano w'aho hantu bari bari.

Ni ishuri rinini cyane ririmo abanyeshuri bari kwiga biga Kaminuza, bafite intebe zigezweho n'ibindi bikoresho bibafasha mu myigire yabo kugira ngo batsinde neza.

Ni mu ishuri aho abanyeshuri bari kwiga kaminuza buri wese afite ikayi yandikamo ibyo mwarimu ari kumwigisha abandi bafite mudasobwa.

Ni abanyeshuri biga muri kaminuza bavuye mu ishuri bagiye gufata akaruhuko kugirango bagaruke kwiga mu ishuri bamaze kuruhuka.

Ni abanyeshuri biga kaminuza bari kuva ku ishuri bataha, aho bageze ku marembo, bari kwereka ibyangombwa ucunga umutekano.

Ni agace gateye imbere cyane hari inzu zo mu bwoko bwa konoshi z'ubucuruzi ziriho mikoro zirangurura amajwi zihamagara abakiriya, hafi yaho hari n'inyubako ndende izwi nka etaje iriho amarange y'icyatsi kibisi n'umutuku.

Umunyeshuri uri kurebera mu cyuma gikomeye cyane cyifashishwa mu buzima kizwi nka mikorosikope, ari mu bushakashatsi areba ibipimo yafashe muri Laboratwari.

Mu ishuri rinini cyane, aho abanyeshuri barimo biga, bicaye ku ntebe zigezweho nziza, buri wese afite mudasobwa ye n'abatera ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu ishuri, bari kubitizanya.